Iyi shusho ikagaragaza abantu, ababahagaze, abarimo kubaka ndetse n'abana batoya, bari hino bari kubaka inzu y'igikoni aha.

Iyi ni inama yitabiriwe n'abagize itsinda cyangwa se umuryango utabara imbabare mu Rwanda.

Aba bakobwa bambaye imyenda iriho ibirango by'umuryango utabara imbabare, bafite agakoresho kari gupima uyu muntu umuvuduko w'amaraso ye.

Iri ni itsinda ry'abantu bigaragara ko basuwe n'abagize umuryango utabara imbabare, bambaye n'ibirango byabo.

Aha ni kwa muganga muganga arimo gusuzuma umuvuduko w'amaraso, uyu muturage waje amugana.

Aha ni kwa muganga hari abantu baryamye ku gitanda, bameze nk'abari mu gikorwa cyo gutanga amaraso, buri muntu iruhande rwe hari umuforomo.

Aha ni kwa muganga hagaragara abarwayi baryamye ku bitanda, hagati yabo hari umuganga uri kubaha serivisi y'ubuvuzi.

Iyi shusho iri kugaragaza uyu mubyeyi wicaye ku gitanda bisa nk'aho ari kwa muganga ateruye uruhinja mu ntoki ze, arimo kureba imbere.

Aba bantu bicaye bategereje serivisi bahabwa ku ivuriro cyangwa ku kigo nderabuzima bicaye.

Iyi shusho iri kugaragaza abantu bicaye hamwe bameze nk'itsinda basa nk'abarimo kwifotoza, ni itsinda ry'abantu benshi.

Ishusho iri kugaragaza abantu barimo kugenda, imbere yabo hari abana batwaye icyapa cya bandarole cyanditseho ''ukwezi kwahari ibikorwa bya polisi bibiri nacumi n'icyenda gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge ni inshingano zanjye''.

Aba baturage bagaragara muri iyi shusho ni abagiye mu gikorwa cyo kwirinda Malariya, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Iri ni irumbo ry'inzuki ryihumbitse ku giti, izi nzuki ziba zitegereje kujya mu muzinga aho ziba zigomba kuba, zikajya zihakorera ubuki.

Iyi ni indwara y'uruhu yibasira abantu abo aribo bose, indwara ifata ku ruhu ukagenda uzana amabara rimwe na rimwe ikakurya cyangwa se ntikurye.

Iki ni ikimera kiboneka mu Rwanda mu gasozi, ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara inzoka, inkorora bakita umubirizi. Iki ngiki ni umuti gakondo.

Ishusho iri kwerekana umuntu uri gutunganya imiti ya kinyarwanda, imiti gakondo imwe ibona ko ari mu kuyisekura mu gasekuru kabugenewe.